Muri iyi foto biri kugaragara ko ari ahantu muri hoteri, cangwa se muri resitora, cangwa mu kabari kuko banyweragamo inzoga kuko unakuruye neza hirya hari kugaragaramo inzoga z'ubwoko butandukanye, ikindi ni uko iyi foto iri kugaragaza ko aka kabare kakiraga n'abazungu.